Ni abaganga batanu bicaye ku meza bafite amazi yo kunywa, aho bateraniye hamwe kugira ngo barebe icyakorwa kugira ngo bateze imbere ibijyanye na serivisi z'ubuvuzi zitangirwa mu kigo nderabuzima cyabo.

Ni igitanda kinini kiri kwa muganga kiryamyeho umurwayi wambaye imyenda ndetse bashyizemo salumo aho umuganga ari kumufasha amuha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo abashe gukira bidatinze.

Abaganga biganjemo abagore n'abagabo, bari ku ivuriro rigari, aho barimo baratesitinga ibisubizo by'abarwayi bafatiye ibizami kugira ngo babashe kumenya indwara barwayi.

Ni sale nini cyane irimo abantu bari gutegura ibikoresho byiganjemo intebe zicarwaho n'abahuriye muri iyo sale ndetse n'ameza atandukanye ariho ibikoresho byakoreshejwe n'abitabiriye inama.

Ni umuganga ukorera ku kigo nderabuzima, aho ari guha ubutabazi bw'ibanze umurwayi waje umugana, ufite ikibazo cy'imvune, amufashe akaguru, amushyiriraho ibipfuko ndetse anasuzuma neza ko imvune yaba yageze ku igufa.

Ni isoko riherereye mu gasantere kameze neza cyane, higanjemo abagore n'abagabo aho baje gucuruza amatungo yabo magufi arimo ihene n'intama, amatungo magufi ni ay'umumaro cyane kuko afasha abaturage gukemura ibibazo byabo mu gihe cya vuba.

Ikigo nderabuzima gitangirwamo serivisi zitandukanye zo kuvura abarwayi, harimo ibitanda byinshi aho haryamyeho abarwayi ndetse n'ababarwaje babafasha gufata imiti bandikiwe na muganga uko bikwiye.

Ikigo nderabuzima cyiganjemo abarwayi benshi aho baryamye ku bitanda byiza cyane bibafasha kuruhuka hanitse inzitiramubu ndetse barimo kwitabwaho n'abaganga babereka uko bagomba gufata imiti ngo babashe gukira byihuse.

Abaganga b'abagabo ndetse n'abagore bambaye amataburiya y'umweru ndetse bambaye n'uturindantoki bari mu bitaro, aho bari kwita ku barwayi ndetse banareba ko ibikoresho abarwayi bari gukoresha bifite isuku ihagije.

Umwana wambaye ikabutura itukura, ndetse n'agapira k'umweru, ahagaze iruhande rw'umubyeyi we ku bitaro. Hari imodoka ndetse n'abandi bantu benshi, ni ahantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Abantu bambaye udupfukamunwa nk'ikimenyetso cy'ubwirinzi bari ahantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi ndetse hakaba hari n'abantu bakuze abasaza ndetse n'abakecuru baje gushaka serivisi z'ubuvuzi kuri abo baganga.

Iyi ni laboratwari yo ku bitaro aho yiganjemo ibikoresho bitandukanye birimo imiti itandukanye ndetse n'abaganga bambaye amatabura y'umweru barimo gusuzuma neza ndetse no kureba ko ibikoresho bibitswemo iyo miti bifite isuku.

Ni ikigo nderabuzima cyiganjemo abaganga benshi kandi ni inyubako igaragara neza cyane, ifite ubusitani bwiza ndetse n'aho abarwayi bicara, bategereje guhabwa serivisi n'abaganga.

Ikigo nderabuzima gihuriweho n'abantu benshi biganjemo abakuru baje kwivuza ndetse n'ababyeyi b'abagore batandukanye bazanye abana babo kubavuza no kubakingiza indwara zitandukanye, ni byiza ko ikigo nk'iki gitanga serivisi z'ubuvuzi kigira isuku.

Ni ibitaro binini bitangirwa serivisi z'ubuvuzi. Iruhande rwaho haparitse imodoka ya Ambilase, ije gutwara abarwayi ibarenze ibajyana ku bitaro byisumbuyeho. Ni byiza ko tugana serivisi z'ubuvuzi tutararemba igihe turwaye.

Ni ikigonderabuzima kinini cyane gihuza abaganga benshi bakoreramo bombi bicaye hamwe muri sale ikorerwamo inama, aho barimo kuganira ku bigendanye n'imitangirerwe ya serivisi itangwa n'iki kigonderabuzima ku bijyanye no kuvura.

Ikigo nderabuzima gifite inyubako nziza cyane cyakira abarwayi batandukanye biganjemo ababyeyi bakuze ndetse n'urubyiruko by'umwihariko n'abafite ubumuga kuko hagaragara umurwayi wicaye mu kagare k'abafite ubumuga utegereje guhabwa serivisi z'ubuvuzi.

Ni icyapa cyitaruye cyane aho kigaragaza ko imbere hari ivuriro rifasha abantu ndetse rikanatanga serivisi ku barwayi, rikanabagira inama z'uburyo bakwitwara kugira ngo abashe kubungabunga ubuzima bwabo.

Ni ihuriro ry'abaganga bakora kuri centere de sante yubatse ahantu muri centere, isize amarangi y'ubururu, barimo baritegereza ndetse bakanaganira ku mikorere ivuriro ryabo rishobora gutanga ku baturage kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ni ikigo nderabuzima gitangirwamo serivisi y'ubuvuzi, aho harimo gitanga abarwayi baryamaho iyo barwaye ndetse n'ibikoresho bitandukanye babikamo imiti igihe barwaye bacyitabwaho na muganga.

Ni abakozi bakora ku kigo nderabuzima, bambaye imyenda y'akazi, amataburiya y'ubururu ndetse n'udupfukamunwa, bari ku bwogero, aho barimo gukora amasuku kugira ngo babungabunge isuku yo ku bitaro nk'isoko y'imibereho myiza.

Ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki ukora ku bitaro, aho yifashisha ikaramu yandika imiti igenwe agomba guha abarwayi ndetse akanababwira uburyo bagomba kuyikoresha kugira ngo babashe gukira byihuse.

Ni umugore wipfutse igitambaro gitukura wambaye itaburiya ukora amasuku ku bitaro, arimo arasukura ibikoresho abarwayi barwariye mu bitaro bifashisha ndetse akagenzura neza ko buri bikoresho byose biri mu mwanya wabyo.

Ni ku bitaro ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, higanjemo abakecuru ndetse n'abasaza barwaye baje bagana abaganga kugira ngo babafashe kubaha serivisi zitandukanye z'ubuvuzi.

Ni umuganga ukorera ku kigo nderabuzima wambaye imyenda y'icyatsi, uturindantoki ndetse n'ingofero mu mutwe, aho ari gukora muri laboratwari asuzuma ibizamini byatanzwe n'abarwayi kugira ngo amenye indwara barwaye.

Laboratwari iherereye ku kigo nderabuzima, aho ibikwamo imiti itandukanye. Umugabo ukoramo arasuzuma ko imiti yose ibitsemo yujuje ubuziranenge, kandi akanarushaho kuyibungabunga.

Ni laboratwari yo ku kigo nderabuzima iteguye neza iteye amarangi meza y'ubururu, irimo abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru aho bari gusuzuma neza imiti ibitsemo ko nta kibazo ifite ishobora gukoreshwa mu buvuzi butandukanye.

Umuganga wambaye itaburiya ndetse n'uturindantoki ukorera ahatangirwa imiti kwa muganga arandikira abarwayi imiti ndetse akanayibahereza abasobanurira uko igomba gukoreshwa.

Ni umubyeyi uri muri laboratwari, wambaye itaburiya ndetse n'uturindantoki, arimo arasuzuma imiti ibitse muri laboratwari ko itangiritse kugira ngo izabashe gukoreshwa neza yizewe.

Ni inyubako ngari cyane isize amarangi y'umweru ndetse irimo ibikoresho bitandukanye na byo bibitswe ahantu heza. Izwi ku izina rya laboratwari, ahabikwa ndetse hakanatunganyirizwa imiti yifashishwa mu buvuzi butandukanye.

Abana b'inshuke bambaye amakabutura y'umukara ndetse n'amashati y'ubururu, bari kumwe n'ababyeyi, bari kubafasha kwiga binyuze mu mikino. Ni byiza kwigisha abana binyuze mu mikino kuko bibakangurira ubwonko bwabo no gutekereza byimbitse.

Mu Rwanda hariho gahunda igamije kwita ku buzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi utwite, ni gahunda ikenewe cyane, aho ababyeyi bose bakangurirwa kwirinda ndetse no kwitabira gahunda zose za muganga igihe batwite kugira ngo babungabunge ubuzima bwabo n'ubw'abana.

Abaganga batandukanye bari kwita ku mwana umaze kuvuka, bari mu cyuma kimenyerewe nka materneti, aho ababyeyi babyarira. Bari kwita ku mwana umaze kuvuka, bareba ko nta kibazo yaba avukanye.

Ni ivuriro ritoya rizwi nka poste de sante mu Rwanda. Abakozi baryo bahagaze ku murongo, baganira ku cyo bakora kugira ngo bateze imbere ubuvuzi bw'iryo vuriro noneho abaturage barusheho kugira ubuzima bwiza uko bagannye iryo vuriro.

Umwarimu wigisha abana b'inshuke, yabashyize ku ruziga ari hagati yabo. Yambaye itaburiya ndetse arimo arafasha abana kwiga binyuze mu mikino, nkuko bizwi ko kwigisha abana bato binyuze mu mikino ari kimwe mu bituma bakanguka kandi bakabasha gufata vuba.

Ni Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi mu rwanda, RBC, cyoheje umukozi wacyo kugira ngo akangurire kandi anahugurire Abaturarwanda bose kugira ngo bajye bitabira gahunda z'ubuvuzi batararemba.

Ni icyapa kinini cyane cyanditseho amatangazo areba abaturage bose ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Baho neza wite ku buzima bwo mu mutwe ndetse wirinde imyitwarire ishobora kugutera ihungabana. Ayo ni yo magambo agaragara.

Ni icyapa kinini cyane cyanditseho amagambo y'agaciro agendanye no gusobanurira abaturage ndetse no kubakangurira kwitwara neza babungabunga ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo babashe kubaho neza.

Ni abagabo n'abagore bahuriye mu nama aho bicaye bombi baganira ku bigendanye n'uburyo bahugurira abaturage kwirinda ndetse no kubungabunga ibigendanye n'ubuzima bwabo bwo mu mutwe.

Ni umufashamyumvire ufasha abaturage, akabaganiriza ku bijyanye n'ibyo badasobanukiwe. Arimo araganiriza umusaza n'umukecuru, kugira ngo abashe kubayobora neza ibitekerezo byabo.

Ikigo nderabuzima cyubatse neza cyane giherereye mu gasantere, cyakirirwamo abarwayi batandukanye kikabaha serivisi z'ubuvuzi ndetse kigakingira n'abana batoya kibaha inkingo zo kubakingira indwara zikunda gufata ubuzima bw'umuntu.

Ikigo nderabuzima gitangirwaho serivisi zitandukanye z'ubuvuzi. Aho abaganga baho bateranye bose bambaye amatabura y'umweru, baganira ku bitandukanye, bijyanye n'imitangire ya serivisi z'ubuvuzi kuri iki kigo nderabuzima.

Ni umukobwa wambaye amataratara ndetse n'itabura y'umweru, uhagaze mu iduka ricuruza imiti yiganje mu dukarito ndetse no mu macupa. Afasha abaje bamugana barwaye gusobanukirwa imiti yabasha kuvura indwara zabo ndetse akayibagurisha.

Ni isantere nini cyane irimo inzu zitandukanye zikorerwamo ubucuruzi ndetse iruhande rw'aho hari umuhanda w'amabuye uri kugendwamo n'abaturage bavuye mu kazi, ni byiza kwitabira imirimo itandukanye ndetse tugakorana umwete.

Ni farumasi nini cyane icururizwamo imiti itandukanye, ibitswemo neza ndetse harimo n'umuganga ufasha abaje bayigana gusobanukirwa imiti ishobora kuvura indwara baba barwaye akayibagurisha ku giciro kiza.

Ni inzu nini cyane ifite imiryango ibiri itandukanye, umwe urakinze ariko undi urakinguye, urimo imiti itandukanye icururizwamo, aho abarwayi bayigana, ikabaha imiti ihwanye n'indwara zabo.

Ni farumasi izwi ku iduka ricuruza imiti yo kuvura abantu higanjemo ibinini by'ubwoko butandukanye by'amabara y'umweru, ay'umutuku ndetse n'umuhondo, harimo umuganga ufasha abaturage baje kwivuza kumenya imiti yabakiza.

Ni farumasi ibitsemo imiti myinshi yifashishwa mu kuvura abantu, imwe iri mu macupa y'umweru, indi mudukarito yose yanditseho ibigendanye n'indwara ivura.

Ni iduka rinini cyane ririmo umucuruzi ukoreramo, higanjemo amacupa y'umweru ndetse apfundikije imifuniko y'icyatsi, abitsemo imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi.

Ni iduka rinini cyane ricuruza imiti itandukanye ariko ryiganjemo ibikarito byinshi cyane by'umweru ndetse birimo n'andi mabara y'iroza, bibitswemo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo by'umwihariko inka.

Ni farumasi iri muri santere aho iriho igishushanyo k'inka icuruza ibigendanye n'imiti yifashishwa ubuvuzi bw'amatungo butandukanye nk'inka, ihene ndetse n'ayandi matungo yororwa.

Iduka tumenyereye mu Rwanda ricuruza imiti rizwi ku izina rya farumasi ryubatse ahantu heza cyane ndetse bigaragara ko risukuye ifite isuku ihagije hari ubukarabiro iruhande rwaryo ricururizwamo imiti kandi rifasha abaturage kwivuza bitabagoye.

Farumasi icururizwamo imiti itandukanye mu kuvura abaturage baje bayigana.

Ni farumasi yo ku kigo nderabuzima yiganjemo imiti itandukanye aho umuganga ukoreramo ari guha umurwayi imiti ndetse akanamwandikira ku gapapuro uko azajya ayikoresha kugira ngo abashe gukira neza.

Higanje abantu benshi cyane barimo barishimira cyane ko hari umuganga w'inzobere waje kubaha ubukangurambaga ku bijyanye no kwirinda indwara zitandukanye, zakwangiza ubuzima bwabo. Bishimiye ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima.

Ni abana bakiri bato bicaye mu ntebe z'umweru, hari umuyobozi uri imbere yabo arimo arabakoresha ubukangurambaga ku bigendanye n'indwara z'ibyorezo ndetse n'uko bazirinda kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza.

Ni abanyeshuri bo mu mashuri abanza ndetse n'abandi banyeshuri bakuze, bambaye udupira tw'umuhondo ndetse n'amajipo y'ubururu, aho baje gufatanya na bagenzi babo, kubakangurira ibijyanye n'isuku yo ku myambaro ndetse no ku mubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abanyabuzima bahuriye mu nama, bicaye ku ruziga, biganjemo abagabo n'abagore, bateranijwe no kuganira ku bijyanye n'umurimo wabo bashinzwe mu Rwanda, cyane cyane uwo kwita ku buzima bw'ibanze, bafasha ababyeyi ndetse n'abana batoya.

Ni abanyeshuri biganjemo abahungu n'abakobwa bambaye amashati y'umweru hasi bakaba bambaye imyenda ya kaki, batwaye icyapa kinini cyane cyanditseho amagambo akomeye agamije gukangurira urubyiruko kurwanya ibiyobyabwenge n'ikoreshwa ryabyo mu rubyiruko.

Urubyiruko rwiganjemo abana b'abakobwa ndetse n'abahungu bitabiriye igikorwa kiyobowe n'ababakuriye, ndetse bafite icyapa kinini cyane cyanditseho mu amagambo agamije kubakangurira kwita ku buzima bwabo.

Ni umubyeyi w'umugore wambaye agapira k'umweru ndetse ufite mikoro, arimo araganiriza abana b'abakobwa ndetse abashishikariza kwitwara neza kugira ngo na bo bakomeze kubaho mu buzima bwiza kandi bufite intego.

Abaturage b'ingeri zitandukanye bahuriye ku kigo nderabuzima, biganjemo abagore bahetse abana ndetse n'abagabo, aho baje kuganirizwa n'abaganga bakorera ku icyo kigo nderabuzima ku bigendanye n'imibereho myiza ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Ni umurwayi uryamye ku gitanda ufite ikibazo cy'amaguru aho undi muganga arimo kumufasha amukanda ku birenge kugira ngo yumve ko yabasha gukira cyangwa kureba uburwayi arwaye kugira ngo ahabwe ubufasha.

Iduka rinini cyane ririmo umugabo wambaye itaburiya y'umweru, arimo aragenzura ubucuruzi akora bujyanye n'imiti ivura indwara zitandukanye, ibitswe mu macupa atandukanye aho buri muti ufite indwara uvura.

Ni icupa ryiza cyane ririmo umuti wa kinyarwanda watunganijwe, wifashishwa mu buvuzi butandukanye bw'abantu. Umuravumba ni igihingwa cy'agaciro cyane ndetse utunganywa binyujijwe mu ruganda, ukavura indwara zitandukanye.

Ni isoko rigari cyane ryiganjemo ibintu bitandukanye, biri mu mifuka, biri gucuruzwa ku isoko; cyane cyane ibigendanye n'imiti gakondo, aho yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ni umurima munini cyane uri ahantu ho mu kibaya higanjemo ibihingwa bitandukanye, igice kimwe cyawo kirimo ibimera bya kimeza bizwi nko gukoreshwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Amacupa y'umweru yiganjemo apfundikije imifuniko y'umutuku ndetse n'umukara arimo imiti yatunganijwe hifashishijwe ibyatsi nyarwanda ikanyuzwa mu ruganda, ni imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo.

Umugore wambaye agapira k'ubururu wicaye ku kirago, ufite udukoresho dutandukanye ndetse n'akantu asekurisha imiti ya kinyarwanda, arimo aragenda ayitunganya ayitandukanya kugira ngo ayibike mu bikoresho bitandukanye.

Ni umuganga w'umu mama wambaye itaburiya y'ubururu uherereye ku kigo nderabuzima, aho ashinzwe kwakira abarwayi, arimo arabakorera amafishi bakenera kugira ngo binjire mu isuzumiro mbere yo guhabwa imiti.

Ni laboratwari yo ku bitaro yiganjemo abaganga batandukanye, bari gusuzuma neza ibikoresho bakoresha mu buvuzi bwabo.

Inzu nziza cyane ebyiri zisize amarangi y'ubururu, ziriho abantu bicaye bategereje guhabwa ubuvuzi bw'ibanze. Mu Rwanda tuzimenyereye nka centre de sante.

Ni umujyanama w'ubuzima w'umumama wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ingofero, ari ku ivuriro aho ari kwandika mu ikayi ibigendanye n'imiti bagomba guha abana bazanye n'ababyeyi babo bakeneye ubuvuzi bw'ibanze.

Ni umukozi wo kwa muganga uri ahatangirwa serivisi, aho ari kwakira abarwayi, abasuzuma kugira ngo abafate ibizami hanyuma aze kureba indwara barwaye.

Abaturage bagiye ku kigonderabuzima gushaka serivisi z'ubuvuzi biganjemo ababyeyi bakuze abasaza n'abakecuru, bari kuganirizwa n'abaganga uburyo bakwiye kwitwara ndetse no kunywa imiti neza igihe bayandikiwe n'abaganga.

Abaganga bagize ikigo nderabuzima bakoraniye hamwe bambaye imipira y'icyatsi, ndetse hajemo n'abashinzwe umutekano, kugira ngo baganirizwe banaganirize abaturage baza babagana, ku bigendanye n'imitangire ya serivisi inoze.

Ni inyubako nziza cyane ndetse y'amagorofa ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane buteyemo indabo n'ibiti bitandukanye, iruhande rwayo hari icyapa kinini cyane cyanditseho amagambo agaragaza serivisi zitangirwa muri iki kigo nderabuzima.

Abagabo n'abagore bambaye neza, ababyeyi bakikiye abana bicaye, baje kuri centre de sante, ahatangirwa ubuvuzi bw'ibanze, bategereje kwakirwa ndetse no guhabwa ubufasha n'abaganga.

Ni ivuriro rito ryubatse ahantu hegereye umuhanda risize amarangi y'umweru ndetse n'ay'ubururu. Ryifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku baturage baryegereye.

Ni ivuriro ryiza cyane risakaje amabati y'umweru ndetse risize amarangi y'ubururu. Iruhande rwaryo hateye indabo nziza cyane ndetse hagaragara umubyeyi wambaye ibitenge byiza ufite n'igikapu uje kuhashakira serivisi z'ubuvuzi.

Ni ibikarito by'amabara y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi, bibitse ahantu hafite isuku cyane, bibitsemo imiti yifashishwa mu buvuzi bukenerwa mu kigo nderabuzima.

Ni kigo nderabuzima gifite inyubako nziza cyane ndetse n'abaganga biganjemo abagore n'abagabo, aho bari bitabiriye igikorwa cyo gukingira abana batoya babatera urushinge rubakingirara indwara zitandukanye zikunze gufata abana.

Abaganga biganjemo abagore n'abagabo, bambaye amataburiya y'ubururu n'umweru, bafite impapuro zanditseho imiti bakoresha ndetse n'ibikoresho ibikwamo, barimo baragenzura ko byose bihuje kandi bishobora gufasha abaje babagana, bashaka kuvurwa.